Dukunde igihugu. Mu gukunda igihugu, twakwinjira mu mirimo myinshi itandukanye, nk’imirimo yo gucunga umutekano. Imirimo yo gucunga umutekano w’igihugu ni byiza cyane kuko bidufasha kubaho dutuje, twirinda abagiranabi, ndetse tugakorera n’igihugu cyacu.

Dufite ubwoko bw'amatungo butandukanye, muri ubwo bwoko bw'amatungo dufitemo inka z'inyambo, inka z'inyambo ni inka nziza cyane kuko ziduhereza umusaruro uhambaye, kandi tukabasha kugera ku iterambere bitagoye cyane.

Dukunde kwihangira imirimo. Mu kwihangira imirimo, twavuga nko ku buhanzi. Ubuhanzi ni ikintu cyiza cyane, kuko butuma dushimisha abantu, ndetse igihugu cyacu nacyo kikagera ku iterambere bitagoranye cyane. Ubuhanzi rero buduhereza amafaranga.

Dufite ibikoresho byinshi byo mu rugo buriya ibikoresho byo mu rugo harimo: amasafuriya, amasahane, ameza n'ibindi n'ibindi tutibagiwe n'umweyo. umweyo udufasha mu kwirinda umwanda. Umweyo tuwukoresha dukubura kugira ngo twirinde umwanda.

Dukunde umurimo. Mu gukunda umurimo, twabona nko gukora uturima tw'igikoni. Uturima tw'igikoni ni igikorwa kiza cyane. Kuko dushyiramo ubwoko bw'imboga butandukanye. Harimo nk'imboga za dodo, amashu, karoti, epinari, ibitunguru, n'ibindi n'ibindi. Muri ibyo byose bituma twirinda indwara.

Dukunde gusenga. Gusenga ni igikorwa cyiza cyane, kuko gituma tubana neza n'abandi, tukirinda guhemuka, tukirinda ingeso mbi, kandi tukaruhuka no mu mutima.

Dukunde gusenga, gusenga ni byiza cyane byaba byiza noneho tukajya gusengera mu rusengero, kuko bituma twirinda ingeso mbi, tukabasha kubana neza n'abandi ndetse ukaruhuka mu mutima.

Ibikorwaremezo ni ikintu cyiza cyane, harimo insengero, amashuri, ndetse n’imihanda. Imihanda idufasha kuva ahantu hamwe tujya ahandi, bikatworohera kujya mu kazi kacu ka buri munsi.

Dukunde umurimo, gukunda umurimo twabona nko gutwara ibinyabiziga. Ibinyabiziga birimo moto, imodoka, indege, ndetse n'igare, noneho mu gutwara igare dukunde kuritwara kuko bituma dutwara imizigo, tuyivana hamwe tuyijyana ahandi bitatuvunnye.

Ibinyabiziga ni ikintu cyiza cyane. Bimwe mu binyabiziga twabona nka moto, igare, ndetse n'imodoka. Imodoka ni ikinyabiziga cyiza cyane kandi cyihuta. Kidufasha kuva ahantu hamwe tujya ahandi, bitadutwaye igihe kirekire.

Dufite ibikorwaremezo byinshi. Muri ibyo bikorwaremezo harimo imihanda, hakabamo ubutwazi. Ubutwazi rero buradufasha cyane, bituma tuva ahantu hamwe tujya ahandi, bikatworohera gukora akazi kacu neza bitatuvunnye.

Dukunde siporo: siporo ni ikintu cyiza cyane; siporo ituma twishima cyane tukishimana n' abandi muri uko kwishimana n' abandi tuboneramo ibintu byinshi bitandukanye, tuboneramo amafaranga, inshuti n' ibindi n' ibindi...

Dukunde koga, koga ni ikintu cyiza cyane kuko gituma umubiri wacu uruhuka, cyane cyane nko kogera muri pisine, kogera muri pisine bituma turuhuka, umubiri ugahumeka neza.

Dukunde gutembera, gutembera ni byiza cyane bikaba akarusho iyo utembereye ku mazi, ku mazi ni ahantu heza cyane hadufasha kuruhuka, mu gihe wumva ufite siteresi uruhukira ku mazi, mu mutwe hakabasha kumera neza.

Nanone dukunde siporo, siporo ni nziza kuko ituma twishima tugahuriramo n'inshuti nyinshi, siporo kandi ituma turuhura imitsi tukaruhuka mutwe, ndetse na nanene siporo ku bantu bayigize umwuga ibahereza amafaranga, n'ayo mafaranga akabafasha kwita ku miryango yabo.

Dukunde siporo. Siporo rero, ni nziza cyane mu buzima bwacu, siporo ituma twirinda indwara, siporo ituma tunanura umubiri, tukaruhuka mu mutwe, ndetse bikaturinda n'iki ? N'indwara.

Dufite ibikorwa remezo byinshi, muri ibyo bikorwa remezo harimo; nk'insengero, imihanda, amasoko ndetse n'amashuri, amasoko noneho yo atuma tubona ibyo dushaka byose birimo; imyenda, inkweto, amasabune n'ibindi n'ibindi. Muri ibyo byose muri ayo amasoko habamo n'abacuruzi, abacuruzi ntitubibagiwe nabo batuma tubona ibyo twifuza birimo inkweto, amasabune.....